Ni inzu iri ahantu mu ishyamba, hari ibiti byinshi hirya hari amazi, hakurya hakabamo akandi gace karimo nanone ibiti, inzu isakajwe ibyatsi, iriho n'ibiti byinshi mu ishyamba.